Aka ni akadege kamwe mu tugezweho none ubu, twifashishwa mu gutwara imiti cyangwa se gufotora ikirere, kari mu kirere kererana kakaba gafite ibintu bijyanye n'udukarito kari gatwaye, kakaba gafite igikarito cyagacitse kikaba kiri munsi yako isa nk'icyaguye.

Umuganga uri kubuganiza imiti mu bicupa by'umweru. Akoresheje ikirahuri kera, akaba yambaye igisarubeti kera. Afite n'ibintu bifashe mu ntoki byererana bimurinda kuba yakwangirika ahuye n'ibikoresho ari gukoresha bikamwanduza uburwayi.

Umwarimu ari kumwe n'abana b'abanyeshuri mu ishuri rwagati mo imbere, bari mu gikorwa cy'amashuriri mu mikoro y'ishuri, aha abana buri wese afite urupapuro ari gukoreraho imikoro ye, bamwe bakaba bahagaze abandi bakaba bicaye, hakaba harimo n'umusekiri uri kubacungira umutekano.

Igikorwa cyahuriyemo abayobozi bashinzwe ubuzima n'abayobozi b'inzego z'umutekano harimo abapolisi n'abasirikare bahuriye mu gikorwa cy'ubuzima bw'abana ndetse n'abana b'inshuke.

Abagabo benshi bagera ku icyenda, harimo babiri bambaye imyenda igaragaza ko ashobora kuba ari abakozi b'abajyanama b'ubuzima, bahagaze imbere y'inyubako iteye y'amarangi y'ubururu, iyo nyubako ikaba ikorerwamo serivisi zo gutanga ubuvuzi ku barwayi.

Uyu ni umubyeyi uri mu ivuriro kwa muganga, akaba yicaye ku buriri, yegamye ku gikuta ahagatiye akana k'agahinja agira ngo gasinzire neza.

Abantu babiri harimo umurwayi n'umuganga, bicaye ku ntebe ndende ngufi, inyuma yabo hakaba hari igikuta cyegetseho imyasi cyangwa se inkwi, hakaba hari n'igishitingi kiri ku ruhande rw'aho bicaye.

Abakobwa bane n'umuhungu umwe wa gatanu, umuhungu aka yambaye agapfukamunwa muri abakobwa bane, hagati yabo harimo umwe ufite agakaye k'umweru arimo arasobanurira bagenzi be ibintu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe n'ikindi icya aricyo cyose.

Abanyamakuru batatu batunze mikoro undi mubyeyi umwe, bamubaza ibibazo bitandukanye, bari ahantu imbere mu cyumba, inyuma y'uwo mubyeyi hari igikuta cyanditseho amagambo ajyanye n'ibintu by'uburenganzira bwa muntu n'ubuzima bwo mu mutwe.

Inzu nini, mo imbere muri iyo nzu hakaba harimo imiti iri mu dupfunyika, iyo miti ikaba ivura indwara zitandukanye z'abantu, hakaba n'indi miti itari mu dupfunyika iri mu ducupa.

Abaturage benshi harimo n'abashinzwe umutekano mu nzego zitandukanye, bari ahantu mu gisambu kigari kinini ahateye amahema harimo n'aba bicaye muri ayo mahema mo imbere, bari mu bukangurambaga nyuma yaho hakaba hari amazu menshi cyane y'ubucuruzi.

Umugabo ahagaze imbere y'abaturage benshi, ari mu bukangurambaga, afite udupapuro tubiri mu maboko yombi kamwe gatukura n'akandi k'umweru, kagaragaza ubukangurambaga ku bijyanye no gukoresha agakingirizo, nkuko'uko n'umupira yambaye wanditseho ko bagomba kugakoresha neza.

Ivuriro mbere y'iryo vuriro hakaba hari umubyeyi, witegura kujya kwakayo ubufasha ngo bamuvure, ku bibazo afite bitandukanye, nyuma y'uwo mubyeyi hakaba hari abandi bana bakiri batoya, umutwe w'inzu y'iryo vuriro hakaba hari ikigega, imbere y'iryo vuriro hakaba hari indabyo...

Iyi ni inyubako ikaba ari ivuriro rikorerwamo igikorwa cyo kuvura abaturage n'abarwayi bose muri rusange, ikaba yubakishijwe inyuma hariho amarangi y'ubururu hakaba hari amarakilete n'ibikoresho bifasha bakaraba, amarakilete akaba yegetse ku ruhande rw'igikuta hakaba hari n'ibipapuro bishushanyijeho serivisi zikorerwa muri iri vuriro hakaba hari abantu n'intebe.

Abantu babiri harimo uwisuzumisha hakabamo na muganga yambaye igisarureti cy'umweru, yambaye n'amasashi mu ntoki ari bumurinde kuba yahura n'indwara zitewe n'imiti aba afite, imbere yabo ku meza hakaba hateretse imiti iri mu ducupa n'amatelefone.